Abagabo babiri bahagaze harimo umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara ndetse n'utubara tw'umuhondo dutambika mu mpuzakano yambaye, bakaba bahagaze ku bahagaze hafi y'ubusitani bubari iruhande, ndetse n'ubundi bukaba bubari inyuma.

Ni abaganga babiri bafite umurwayi, aho abo baganga bombi bambaye bikwije hose mu maso ndetse no mu mutwe, ariko uyu murwayi ubona ko arembye cyane, bakaba bamuzanye kuri bulankari baza bamusunika.

Umurwayi uri kwa muganga, akaba ari umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, akaba ari kumwe n'abaganga barimo bamwitaho. Abaganga bakaba bafite amakayi ndetse n'amakaramu barimo bandikamo amakuru bahabwa n'uyu murwayi.

Abakorerabushake b'urubyirukow'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari bicaye ku ntebe basa naho, barindiriye umuturage ngo umuturage abahe amakuru ndetse bamwiteho.

Abasore ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano zishushanyijeho imisaraba, akaba ari abasore bakora mu muryango ushinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze. Aba ngaba bakabafasha umuntu uwo ari we wese wagira ikibazo kerekeye ubuzima baramufasha.

Imodoka ifite ibiyiranga bya leta y'u Rwanda, akaba ari imbangukiragutabara yo mu bwoko, ifite amarangi y'ubwoko bw'umweru, ikaba yandikishijeho amabara y'umutuku ndetse n'ubururu. Ikaba ikoreshwa mu gutwara abarwayi.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye ikoti ry'icyatsi, ndetse n'impuzankano y'umukara, akaba ari iruhande rw'imodokari, uyu nguyu akaba ashinzwe umutekano wo mu muhanda akurikirana abashaka kwangiza amategeko arimo gutwara, gutwarria ku muvuduko wo hejuru, ndetse no kuba wagonga ibindi bintu barabiguhanira.

Umuganga wambaye impuzankano z'icyatsi, akaba yambaye n'ingofero'icyatsi, akaba yambaye ga z'umweru, akaba afite agakaramu ari kurebera mu byuma hari ibyo ari ari kurebamo ndetse agahita abyandika.

Umugabo uri kwa muganga akaba ari icyumba kirimo ibitanda byinshi biryamwaho n'abarwayi, muri ibi bitaro hakaba harimo abaganga barimo bita ku barwayi bareba uburyo bamerewe umunsi ku wundi.

Ni icyumba cyo kwa muganga, akaba ari icyumba gikoreshwa n'abaganga, bakagikoresha basuzumiramo abarwayi, akaba ari icyumba kirimo ibikoresho byinshi, byifashishwa na muganga urimo asuzuma, akanavura umurwayi.

Abajyanama b'ubuzima babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ingofero ndetse na lineti bakaba aba bajyanama bakaba bicaye ku ntebe ndetse n'uyu mugabo akaba yicaye ku ntebe, hagati yabo hakaba harimo imeza abajyanama b'ubuzima bari kwandikiramo, aba bajyanama b'ubuzima intego yabo ni Irinde virusi itera SIDA.

Ni mu modoka mo imbere, ikaba ari imodoka ikoreshwa no kwa muganga mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi ,ikaba ifite ubutabazi bwose bw'ibanze, hakaba harimo kizimyamwoto mo imbere muri ino modokari.

Umusore n'umukobwa bambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abagabo babiri bambaye amataburiya y'ubururu, bakaba bari kumwe n'umudamu uhetse umwana ndetse n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara, imbere yabo hakaba hari isahani ndetse n'impapuro bakaba bafite n'igikarito ndetse n'udukombe dusa nkaho turimo imiti.

Umugabo uhagaze imbere akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru akaba yatebeje. Inyuma yiwe hakaba hari abantu bo mu ngeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari ku murongo.

Ni ku kigo nderabuzima aho tubona abaganga batatu ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa gisirikare babiri ndetse n'abaturage benshi, bari inyuma y'abaganga basa nk'aho bari kumva amabwiriza y'umwe mu baganga yararimo atanga.

Abaganga bambaye bikwije umubiri wose, bakaba bambaye impuzakano z'umweru, kuva hasi kugera hejuru, bakaba ba izi mpuzakano zika zirimo utundi tubara tw'ubururu, bakaba bari kwa muganga, aho ari ibitaro biriho abarwayi, abarwayi barenze umwe.

Umuganga wambaye agapfukamunwa uhagararanye n'abagabo babiri ndetse n'umudamu n'umugore umwe, umugabo urimo hagati y'uy'umugore ndetse n'uriya mugabo uhagaze akaba afite agakapu mu ntoki, imbere yabo hakaba hari abagore ndetse n'abagabo bicaye babateze amatwi.

Umugore wicaye imbere ya mudasobwa arimo arayikoresha akaba afite ikaramu ebyiri imbere y'iwe ndetse n'impapuro zimurambitse imbere, akaba yambaye ikanzu y'umweru.

Umugabo wambaye ishati akaba yicaye ku ntebe, akaba ari mu cyumba kirimo imeza irambitseho impapuro nyinshi ndetse n'indi ntebe iruhande. Muganga akaba ahagaze amufitiye ukuboko arimo aramukanda.

Umuganga wambaye uturindantoki two mu ibara ry'ubururu, akaba afite agakoresho bakoresha barimo bavoma umuntu amaraso ndetse akaba afite n'akandi basukamo amaraso kugira ngo bayasuzume, bamenye icyo umuntu arwaye.

Aabaganga babiri bambaye impuzankano, bakaba bari mu isuzumiro ry'imiti, bakaba bafite ibikoresho bifashisha barimo bavanga imiti bayipima bareba nimba itarataye agaciro, cyangwa se bareba niba irimo igifite ububasha bwo kuvura.

Ni kwa muganga, aho hari imeza irambitseho ibipimo, naho hakaba hari ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'inshinge yifashishije arimo afata amaraso, ni aho muganga afatira amaraso, akayajyana mu isuzumiro, bakamenya icyo umurwayi arwaye.

Abaganga batatu bambaye impuzankano z'umweru ndetse bambaye udupfukamunwa bakaba bambaye n'uturindantoki, bakaba bafite udukoresho barimo basuzuma basuzuma imiti, bakaba bari ahantu hari ibikoresho byinshi byo kwa muganga.

Ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, akaba ari abanyeshuri bambaye impuzakano z'ikigo cyabo, bakaba bari aho bimenyereza ndetse aha ngaha hakaba ariho abanyeshuri biga gukora imiti ndetse n'uburyo bamenya gukoresha ibikoresho byifashishwa kwa muganga bitandukanye.

Muganga wambaye impuzankano akaba yambaye agapfukamunwa ku munwa ndetse akaba yambaye n'uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, akaba afite ibikoresho bakoreshwa bakoresha kwa muganga arimo arafunga ibyuma byabugenewe bikoresha kwa muganga mu buvuzi.

Umuganga wambaye impuzankano zo kwa muganga z'umweru akaba ari kumwe n'umugore umuri imbere, uyu muganga akaba arimo areba mu cyuma cy'indeba kure mu mubiri w'umuntu kibasha kumwereka indwara uyu mudamu uyu mugore yaba afite mu mubiri wiwe.

Umuganga wambaye impuzankano z'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa mu maso, akaba afite ibikoresho byabugenewe bikoreshwa kwa muganga mu gusuzuma ndetse no gupima imiti, akaba yambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu.

Umugore wicaye ku ntebe akaba ari umugore ufite umwana naho imbereye hakaba hicaye umugabo, uyu mugabo akaba arimo arakora umwana mu matwi. Uyu mugabo akaba arimo aramusuzuma areba uyu mwana ikibazo yaba afite.

Umubyeyi wishimye akaba ari umubyeyi uteruye akana kiwe akaba ari umubyeyi uri kwa muganga, aho uyu mubyeyi yari amaze kubyara uyu mwana akaba yari yagumye kwa muganga barimo bamwitaho bamuha ubuvuzi bw'ibanze.

Ni kwa muganga aho hari abagore bahetse abana bakaba baje gusuzumisha abana ibiro, hakaba hari umugabo ubishinzwe urimo urapima abana ibiro, ibi ngibi bikaba bifasha abana kumenya ibyiciro barimo ndetse n'uburyo bagomba kumenya ibyo bagomba gufata kugira ngo barusheho kuzamura ibiro by'abana.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo, akaba ateruye umwana n'undi wambaye umupira w'umuhondo, inyuma yeba ahahagaze abantu batandukanye. Muri abo bantu hari umusore wambaye itaburiya akaba afite n'ikaramu abangaba akaba ari abashinzwe kwita ku buzima bwa buri munsi bw'abantu.

Ni umugabo n'umugabo bakaba bateruye abana, akaba ari abana b'impanga, uyu mugore n'umugabo bakaba bari ku kigo nderabuzima, aho bavuye kubasuzumisha ndetse no kubakingiza, iki kigo nderabuzima kikaba gifite ubusitani hanze.

Abagore abagabo bicaye munsi y'ihema bambaye imipira y'icyatsi, bakaba imbere yabo hakaba hari akameza gatatswe n'amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, akaba ari hejuru akaba hariho amazi yo kunywa ari mu ducupa.

Umubyeyi uteruye umwana we, ari kwa muganga, aho uyu mubyeyi yishimye ndetse ubona ko aribwo akimara kubyara uyu mwana, aho imbere y'iwe hari ibikoresho, birimo igikombe ndetse na telemusi bashyiramo igikoma.

Ni umukobwa wambaye umupira w'umweru akaba afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi arimo yandikamo, aho imbere yiwe hari umubyeyi witeza agatambaro mu mutwe ndetse uteruye mwana mu ntoki, aho uyu mubyeyi yamuzanye kwa muganga mu kumwandikisha mu gitabo cy'irangamimerere.

Ni mu ishuri aho hari abagore batatu barimo bita ku bana, akaba ari abana bicaye ku meza yo mu ishuri, aho buri mwana afite isahane y'ibiryo. Akaba ari abana barimo bahabwa ibi biryo, kugira ngo barusheho kumererwa neza, ndetse no gukurikira amasomo bahabwa bitabagoye.

Ni abadamu bambaye udupfukamunwa bose, bicaye mu ntebe zegamirwa, aho bicaye nk'aho bari kwa muganga, hakaba harimo umudamu uhetse umwana, bakaba ba asa nkaho barendiye cyangwa bateze amatwi ugiye kubaha ubufasha.

Ni abana bicaye ku makeka aho n'abandi bicaye mu bwatsi buri hafi aha ngaha, akaba ari abana bahawe ibyo kurya abana bakaba bahagazwe imbere n'ushinzwe kubitaho umunsi ku wundi. Abana bakabakusanyirizwa hamwe kugira ngo babone uburyo babigisha ndetse n'uburyo babitaho bitabagoye.

Abakobwa bane bambaye imipira y'icyatsi, ndetse n'umugabo umwe wambaye umupira w'umukara, hakaba n'umusore wambaye umupira w'icyatsi na linete, imbere yiwe hakaba hari umugabo wambaye ijire n'amalinete, akaba afite udutabo dutabo ndetse n'ikaramu. Hagati yabo bakaba harambitse imeza irambitseho udutabow'imfashanyigisho

Ni ku kigo nderabuzima aho hanze y'ikigo nderabuzima haparitse imbangukiragutabara akaba ari imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abarwayi barembye ibakura ku kigo nderabuzima ibajyana ku bitaro.

Isange One Stop Center hakaba hakorerwa serivisi zitandukanye. Hakaba harimo hakorerwamo serivisi zijyanye no kugira abantu inama ku byerekeye ubuzima. Nk'iyo umuntu wahohotewe cyangwa bakamugira inama y'uburyo yakwitwara cyangwa se uburyo yajya kurega uwamuhohoteye.

Ni mu nama aho iyi nama yitabiriwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye akaba ari na iyobowe n'umugore, iyi nama ikaba muri iyi nama hakaba harimo abantu batari benshi cyane, cyane ko hagati y'umuntu n'undi hagiye harimo, hagiye harimo intebe itecamo umuntu, iyi nama ikaba iri kuvuga, ikaba ari umunsi wahariwe ubuzima bwo mu umutwe.

Abamansera batatu ndetse n'abakobwa babiri n'abagabo batatu. Aha ngaha harimo umukobwa ufite ubumuga, ufite imbago agenderaho.

Ni ku kigo nderabuzima aho umuyobozi arimo aratanga inama aziha abaturage ku buryo bakwiye kwitwara ndetse n'uburyo bakwiye kwitwararika ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ni mu nama aho hari umugabo uhagaze imbere y'abaturage akaba inyuma y'uyu urimo gutanga inama hakaba hari amabendera y'u Rwanda, akaba arimo arabigisha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uburyo bakirinda gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ingaruka zabyo.

Ni mu nzu bagurishirizamo imiti aho harimo ibikarito, utudobo, ibikombe by'amoko menshi, birimo amoko atandukanye y'ibinini ndetse n'ibifungiye mu ducupa tumeneka.

Umusore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umuganga wambaye impuzakanozo kwa muganga akaba ari aho bacurureza imiti ndetse uyu muganga akaba afite ikaramu akaba arimo arandika, muri iyi nzu ucururizwamo imiti harimo mudasobwa bandikamo amakuru ajyanye n'ibyo bakoresheje.

Inyubako irimo imiti y'amoko itandukanye, akaba ariho bayigurishiriza, akaba ariho umuntu ushaka iyi miti ayisanga, akaba ari imiti y'ubwoko butandukanye.

Ni icyumba cy'ububiko bw'imiti hakaba ari icyumba kigurishirizwamo imiti y'amoko atandukanye. Muri iki cyumba turasangamo ububati bubikwamo imiti yabugenewe, akaba ari imiti ifunze mu ducupa, ndetse n'indi ikaba ifunze mu dukarito, hagati aho ngaho hari mudasobwa ikoreshwa, ikoreshwa na muganga mu kumenya imiti yatanze ndetse n'iyo yasigaranye.

Ni amacupa abikwamo imiti akaba ari imiti yifashishwa na muganga arimo avura abarwayi, iyi miti akaba ari imiti yo mu bwoko butandukanye, ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni imiryango ibiri, akaba ari imiryango ibiri isize amarangi y'icyatsi ariko akaba ari umuryango ufunguye, iyi miryango yombi ikaba ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye.

Ni umugore uri mu iduka ricuruza imiti aho uyu mugore yambaye itaburiya y'umweru naho imbere y'iwe hakaba hari mudasobwa iyi mudasobwa ayifashisha arimo yandika amakuru y'ibyo yakoze umunsi ku wundi naho iri duka rikaba ririmo imiti y'amoko atandukanye yifashishwa n'abantu barimo bivuza indwara zitandukanye.

Ni mu nzu icururizwamo imiti, akaba ari inzu irimo imiti itandukanye, hakaba harimo imiti ifungiye mu ducupa ndetse n'indi miti ifungiye mu dukarito, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye indwara zirimo iz'abantu nyinshi z'ubwoko bwose.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rurimo rwigishwa ingaruka ndetse n'ibyiza byo gukoresha agakingirizo. Ni abasore n'abakobwa bicaye hamwe, barimo bagirwa inama ndetse banigishwa uburyo bakwirinda.

Umugabo ufite indangurura indangurura majwi ndetse na telefoni mu ntoki, ukikijwe n'abaturage impande n'impande ziwe bakaba bari bari inyuma y'icyapa cyanditseho serivisi z'ubuzima zegerejwe abaturage, inyuma y'aba baturage hakaba ari inyubako zimeze nk'amashuri.

Ni urubyiruko ruri mu muhanda, akaba ari urubyiruko rwinshi, akaba ari urubyiruko rurimo rushishikariza abaturage kwipimisha indwara itera SIDA, urubyiruko rukaba ruri mu bukangurambaga kugira ngo abantu barusheho kumenya ikiciro bahagazemo.

Umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'umusore bicaye hamwe bakaba bari kwa muganga, uyu mugore akaba arimo aritabwaho na muganga, arimo aramushyiramo ibikoresho byabugenewe bimwe bisuzuma abarwayi mu kureba uburyo ingingo z'umubiri zirimo zikora.

Abaturage benshi biganjemo ab'igitsina gabo ndetse nab'igitsina gore. Hakaba harimo n'abana batoya. Aha ngaha hakaba hari gutangirwa ibiganiro ndetse banigisha abaturage uburyo bakwiye kwita ku buzima bwabo, bakamenya uburyo bakwiye kwipimisha ndetse no kububungabunga umunsi ku wundi.

Ni umuzinga umanitse mu giti, ukaba uboshye mu bikoresho biva ku nsina, uyu ukaba ariho inzuki zijyamo, zigakoreramo ubuki. Ubu buki bukadufasha mu buzima bwa buri munsi, iyo tuburi kuko budufasha mu kurwanya zimwe mu ndwara zitandukanye.

Udukombe tubiri turimo icyayi ndetse n'amajyani utu dukombe impande zayo hakaba harambitse imiravumba, ikaba yifashishwa mu kongera uburyohe dukura mu cyayi.

Isafuriya ebyiri, igikombe, akayunguruzo ndetse n'umubirikira. Isafuriya imwe iri gukurwamo ibyo bari kujya kuyungurura, naho igikombe kiri kwifashishwa mu kudaha ibyo kuyungurura.

Abarwayi babiri bari kwa muganga ndetse n'umuvuzi umwe, abarwayi baryamye ku bitanda, naho umuganga yicayemo hagati yabo, afite udukoresho ndetse n'intebe, imuri imbere irambitseho imiti.

Ni intebe iri mu bwoko bw'ubururu akaba ari intebe irambitseho udukoresho dutandukanye turimo ipamba ikaba yifashishwa no kwa muganga ndetse ikaba iriho n'agacupa gafite umufuniko w'icyatsi hakaba haririmo udukoresho mo imbere, hasi y'iryo cupa hakaba harimo udukoresho twifashisha twifashishwa mu gucisha mu matwi bakuramo imyanda.

Abaganga ndetse n'abarwayi, aho abarwayi baje kwa muganga kwivuza, n'aho abaganga barimo barabaha serivisi bakeneye irimo kubahereza imiti ndetse no kubasuzuma.

Ni abagabo babiri aho bombi bateruye umurasire, akaba inyuma yabo hakaba hari inzu isize amarangi yo mu ibara ry'ubururu ndetse ikaba ifite, ikaba ifite igitangi cyo kubika amazi cy'umukara.

Ni ibitanda byo kwa muganga, akaba ari ibitanda biri mu cyumba kigari, akaba ari icyumba kirimo ibirahure bibonerana. Ibi bitanda bikaba byifashishwa mu kubirambikaho abarwayi, akaba ariho babavurira.

Ni ku kigonderabuzima gisize amarangi y'ubururu ndetse akaba ari ikigonderabuzima gifite kandagiraukarabe, hanze isize amarangi y'umweru. Muri iki kigonderabuzima harimo umuntu wambaye impuzankano y'ubururu ndetse akaba yipfutse ku minwa ndetse n'akagofero k'umutuku mu mutwe.

Abaturage batanu bicaye kwa muganga, basa nk'aho barindiriye ibisubizo kwa muganga, bakaba bafite impapuro mu ntoki zigaragaza y'uko bishyuye ubwishingizi bwo kwivurizaho.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi ndetse n'umugore umwicaye iruhande wicaye kugatebe k'umweru, imbere ya muganga hari intebe, hari ameza irambitseho igitambaro cy'icyatsi, naho muganga afite ikaramu ndetse ari kwandika mu gitabo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati ymweru, akaba arimo akaba intoki yifashishije akandagira ukarabe iri hanze yo ku kigo nderabuzima, akaba ari ikigo nderabuzima kikiriho umubyeyi ndetse n'umwana ndetse n'undi mukobwa urimo ushaka serivisi z'ubuzima.

Ni ku kigo nderabuzima, aho hari umwana wambaye impuzankano z'ubururu. Akaba arimo koga ku ntoki yifashishije kandagira ukarabe. Kandagira ukarabe ikaba iri hanze ku kigo nderabuzima. Ifasha abantu mu gukaraba kugira ngo batarushaho kugira badakomeza gukwirakwiza umwanda hagati yabo.

Ni ku kigo nderabuzima cya gira ubuzima hakaba hari abaganga, ndetse n'abandi baturage benshi, hakaba hari abaturage bafite amakaye mu ntoki, ndetse n'abandi bafite udutabo.

Ni ku nyubako igeretse aho hari umugabo uri hanze ndetse impande ziwe hakaba hari ibipupe byambaye imyenda y'amoko atandukanye, biri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, ibi ngibi bikaba byifashisha mu kwamamaza ndetse no mu kwerekana ubwiza bw'imyenda.